Iyi shusho iri kwerekana abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga ingufu z'umuriro w' amashanyarazi REG barimo gukurura urunsinga.

Iyi ni imashini yifashishwa gukora umuhanda wa kaburimbo, irimo kuwutunganya iwukora ndetse hari n'abakozi bambaye amajeri atukura, bari aho ngaho.

Ibi ni ibigega, hari n'ubwiherero, hari inzu yubatse meze nk'ububiko bw'imyaka, izo bitaga kera ibigega.

Aba bari mu gikorwa cyo gushyingura imibiri y'abazize jenoside, bafite amasanduka abandi bafite indabo zo gushyira ku mva.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu bayobozi mu nzego zitandukanye, bari kugenda bashyira indabo ku mva.

Aba ni abayobozi bari kumwe n'ushinzwe umutekano mu rwego rw'abapolisi bagiye gusura ibikorwa by'abaturage, bahagaze basa nk'abari kwitegereza ikintu kimwe.

Iyi shusho iri kwerekana abayobozi bo mu nzego zitandukanye: za gisirikare, ubuyobozi bwa leta, bwa Polisi ndetse n'abandi bicaye bameze nk'abari gukemura ibibazo by'abaturage.

Iki ni icyapa kiyobora abagenzi ndetse n'abatwaye ibinyabiziga kiba mu muhanda ahantu hahuriye imihanda ibiri kiba kerekana kiri kwerekana umuhanda ujya kagitumba ukomeza imbere n'ukase werekeza Nyagatare mu mujyi ndetse no ku bitaro.

Uru ni urubyiruko rw'abakorerabushake bari gukora umuganda ku bufatanye n'inzego za leta, inyuma yabo hari ingabo cyangwa se umusirikare.

Uyu n'umusore uhagaze, yambaye impuzankano ya siporo, arimo kwifotoza yishimye.

Iyi shusho iri kwerekana umuhanda wa kaburimbo, ariko ku ruhande bakaba bari kwerekana inzira yabagenzi yubatse ku ruhande aho abagenzi batambukira, hakurya hari umutaka uhagaze umeze nk'uw'abakora muri serivisi z'itumanaho.

iyi ni ishusho yerekana inzu y'ubucuruzi, hariho ni'cyapa cyanditseho ubucuruzi bukorerwamo ibyari aribyo ko ari akabari.